Umugabo wambaye ipataro yacitse, afashe ibyatsi ari mu muhanda, akaba ari kubitondeka hamwe kugirango bizabashe kuvamo ifumbire y'imborera, bateresha ibirayi kugira ngo ibiragere.

Ikirahure kiri mu byatsi, kikaba giteretse ku kabaho, kikaba kigeze muri magana abiri. Bikaba ari ibipimo byerekana uburyo bari butera umuti muri iki gihingwa.

Sitoke irimo imifuka myinshi cane ikaba imifuka iteretse ku tubaho kugira ngo iyi mifuka ntibashe kwangirika. Ahantu iri hakaba ari ahantu hanini cane habugenewe ho kubika.

Umugabo uri gutera umuti mu muceri akaba ari gufuhirira umuti kugira ngo ubusimba bupfe. Yambaye agapfukamunwa, yambaye ingofero, ndetse yambaye n'imyenda imurinda kuba yakwangirika.

Iyo ni ifumbire yo mu macupa, ifumbire bakoresha bari gutera ibirayi cyangwa se ibindi bihingwa, kugira ngo bitange umusaruro uri hejuru. Tuyita Enipeka.

Ifumbire barimo bari kuyikora ikaba irimo iminyorogoto. Umugabo akaba ayifashe mu ntoki ari kuyerekana ubwo ari ifumbire y'umwimerere kandi yaboze cane abantu bagomba guhingisha.

Abaturage bari guhinga ifumbire, kugira ngo bajye kuyihingisha imyaka zitandukanye. Ifumbire bakaba bigaragara yuko yakozwe mu bisigazwa by'ibihingwa.

Umugabo uri gutera umuti, akaba ari gutera umuti ibihingwa kugira ngo yice ubusimba. Akaba ahetse icuma, akaba yambaye na bote n'ipantaro y'ubururu n'ishati y'umweru.

Iyi ni ifumbire ya erovatarayizazi tuyikoresha mu guhinga ibirayi, iyi fumbire rero ikaba ituma ibirayi biba binini, ikaba iri ahantu mu bubiko, ikaba itegereje abantu cangwa se abahinzi kugira ngo bayijane mu murima.

Aha ho haragaragara nkaho bavuye kurobaga, kandi ni amafi abiri ashobora kuba avuye mu ngezi ,cyangwa se mu yindi migezi itemba, iva ahantu hagiye hatandukanye, ariko cyane cyane aya mafi, aturuka mu biyaga .Burera cyangwa Ruhondo.

Amafi yapfuye ari mu gatebo kugira ngo agezwe mu isoko. Ayo mafi akaba ajyohaga cyane kandi bigaragara yuko afite inyama zijyoshe.

Uyu ni umusaruro uva ku mafi. Muri make ibyororerwa mu mazi bitanga umusaruro nk'inyama, urabona ko izo nyama zimeze neza umuntu wazitetse arazirya akumva ariye akantu karyoshye cane.

Aka gafi ko uri kubona ni amafi abiri bashize ku cyokezo. Aya mafi bashize ku cyokezo, hariho hirya inyanya n'urusenda ngo ibi birya abakire mu Rwanda, niko tubyita kuko nta mutindi wabyigondera cyangwa umukene.

Amafi barobye, amafi akaba ari manini, akaba asa neza, amafi akaba aryohaga. Aya mafi bayarobaga mu biyaga ndetse no mu migezi.

Ikiyaga ni kimwe mu bintu by'ingirakamaro mu Rwanda rwacu birutatse, harimo ibirwa ibi birwa bikaba birimo ibiti kandi bikaba bimeze neza. Ikiyaga kandi kivamo amafi.

Abantu bari mu bwato , ubwato bwanditsweho Polisi Marine , bakaba ari abapolisi bakorera mu mazi aho batanga ubutabazi bw'ibanze ku mpanuka , ndetse no gukontorora ikiyaga.

Ibijyo biri ku isahane ibyo bijyo bikaba ari ifi iriho n'inyanya, seleri ndetse n'ibitunguru. Bikaba bijyoshe, isahani ikaba iteretse ku meza y'urubahu rwiza.

Aha ni ahantu bororera amafi, biragaragara ko bororeraho amafi. Hashobora kuba ari muri Muhazi cyangwa se izindi damu zo mu Rwanda bifashisha bari korora amafi kugira ngo tubone umusaruro uhagije abanyarwanda n'abanyarwandakazi.

Aka ni agafi gatetse neza pe! Agafi gatetse neza hariho utunyanya ku ruhande, utudimu ndetse n'udupuwaro hasi, kakaba karyoshe cyane.

Ifi basatuyemo kabiri ikaba iriho akatsi hejuru n'akandi katsi hejuru gafashe ku ndimu .Ifi ikaba ari yose kandi bakaba biteguye kuyirya kuko iraryoshe.

Isafuriya irimo amafi ndetse n'ibindi byatsi ikaba ifite isosi y'umutuku iryoshye cyane bakaba bari kubiteka kugira ngo abantu baze kubirya.

Indagarazindagara zikaba zapfuye indagara bakaba bazirya kandi zikaba zituruka mu mazi izi ndagara rero zikaba zikungahaye ku ntungamubiri ituma ubuzima bw'umuntu bumera neza.

Aya ni amafi ari mu mashashi. Bayashyize mu mashashi kugira ngo azamare igihe kinini abitswe. Kandi aya mafi ni manini cyane, aya mafi rero akaba aryoshe cyane ni ukuri.

Ibi bikaba ari ibijyo biriho indagara ndetse n'ibyatsi bibisi. Bikaba biri ku isahane kandi bitegereje ngo abantu babige. Iruhande hari n'indimu, zifasha kugira ngo ibijyo bijyohe.

Urutoki, urusasa byose bihingiye neza bya kijyambere, kuko insina urabona ko ziri mu mwobo, aho bajya bazishiraho ifumbire neza, ku buryo zikura nta kizibangamiye.

Ibigori baciye biri mu murima, uwo murima ukaba urimo ibyatsi n'ishamba, uyu murima ukaba udahinzwe urimo ibyatsi byinshi, bakaba biteguye kuwuhinga.

Umurima urimo ibyatsi, ukaba wari uhinzemo ibigori. Bakaba barabiciye, hakaba hateyemo ibiti bitandukanye bituma ibihingwa bimera neza nk'indumburabutaka ndetse n'ibindi.

Igiko kigiraga amashubi, iki giko kikaba kiri mu mazi, aho kimeze neza kandi kikaba gishishe, iki giko kandi kikaba giteye muri pasiparume.

Aha haragaragara ihene, ihene rero iraziritswe mu murunga iri kurisha ubwatsi bwiza cyane, ndetse ahantu iri harazitiye, ni amahene atatu.

Ibi byatsi babyita ibiko, ibiko ndetse haragaragara n'ibidodoki biteye ku ruzitiro rw'umuntu, ibidodoki bivamo n'imboga nziza cyane ziba ziryoshye.

Voka ni igihingwa gikunze kwera mu ntara y'amajaruguru, inyuma yaco hari urutoki, iyi voka ikaba irimo na voka ikaba iryoshe cane.

Biragaragara nk'aho ari ibihingwa ngandurabukungu, ibihingwa ngadurarubukungu nubwo bitagaragara neza ariko ni ibihingwa ngandurabukungu, harimo voka... voka ndetse n'umwana uri kugaragara nk'aho ari mu rugo.

Umurima urimo ibigori byumye baciye bakaba barateyemo Amajeeri, ukaba urimo ibyatsi byinshi, bityo bikaba bizaduha ifumbire indi myaka tu tuzateramokera cyane.

Inturusu nyinshi zitwa ishyamba bashobora kuzicanamo amakara, ndetse ahantu ziri hasa nk'aho hari ubwatsi bw'inka ndetse n'ihene zishobora kurisha.

Inzira yo mu giturage ikaba ifite ibirabo kirekire ndetse hakaba inyuma hari n'ibigori mu gihuru, bikaba bigaragaza ubukungu bw'igihugu n'iterambere ryabyo.

Ibitunguru cangwa se tungurusumu ziteye mu murima. Zikaba zitari zabagarwa, zikaba zirimo ibyatsi. Inyuma ya ho hari urutoki rumeze neza cane ruduhaga ibitoki.

Umurima bahinze inyuma yawo akaba hari umurima w'ibigori, ndetse n'umurima uhinzemo ibitunguru. Uyu murima ukaba warameze utwatsi, bakaba bitegura kuwuhingamo ibintu bitandukanye.

Inturusu ndende iri ku nzu itari yuzura neza iyi nturusu ikaba iduha amafaranga igihe yakuze kandi tukaba tuyikoresha mu kubakisha impande yabo haba hariho amabuye.

Ibyo ni ibirayi byatewe bisa nk'aho bitari byera, bifite ibara ry'icyatsi barabitabiriye, barabitabiriye birabura nk'amezi abiri ngo byere, bikikijwe n'ibigori hira byeze.

Insina z'urutoki. Urutoki ruvamo ruhingiye neza, rushobora kuvamo imineke, ibyo barya ndetse n'imitobe abantu banywa wongeyeho n'urwagwa iyo basaruye.

Izi ni inturusu. Inturusu z'umweru zikiri ntoya ziri kumera bigaragara yuko ibinini babitemye bikaba biri gushibuka inyuma yaho hari izindi ntusi ndende bigaragara yuko zimeze neza.

Umurima urimo amajeri kandi urimo ibyatsi batahinze bakeneye ko ubonekamo ifumbire. Uyu murima ukaba waravuyemo ibigori, kandi uyu murima ukaba uri hafi y'ibirunga.

Urutoki ruri ahantu mu kibara hadahinze harimo:urwiri, umucaca ndetse n'inkingi zifashe urutoki kugira ngo rutagwa mbese insina ntabwo zikomeye cyane ku buryo zahangana n'imiyaga.

Ikijumba kiri ku umugozi kikaba kiri kwerera, biragaragara yuko ceza cane. Kandi ibijumba bikaba birikwerera, kandi bakaba baranduye mu umurima munini w'ibijumba bindi batari bakura.

Ihene ziziritse muri izi hene akaba hari izifite ibara ry'umukara, ziziritse ku nkomangizo izindi zifite ibara ry'umweru n'umukara, nazo zikaba ziziritse ku nkomangizo, inyuma yabo hakaba hari uruzitiro rw'ibikenyeri.

Ayo ni amaterasi y'indinganire .Ni amaterasi y'indinganire, Ako yifashishwa mu kurwanya isuri .Cyane cyane akora mu misozi. E mu misozi niho akunda kuyu kuyubaka kugira ngo agabanye isuri.

Ibitunguru bashize mu mifugo bikaba biri mu mifuka hasi, bakaba bawushashe bikaba biri hejuru ibi bitunguru rero bikaba biri kugurwa bitewe n'amafaranga ufite hari ibifunze ari byinshi n'ibifunze ari bike.

Igihaza ni urubuto ruryohaga cyane. Rurimo imbuto banika bagateka cangwa se bakazijya ari mbisi. Bagikasemo kabiri bikaba ari ibijyo bigaragaza umuco wa kinyarwanda.

Ibirayi biri mu mifuka byo mu bwoko bwa kinigi. Imifuka bakaba bayira bayizinze kugira ngo ibirayi bigaragare. Iyi mifuka ikaba iteretse hasi ku itaka, akaba ari n'aka bendiya kari ku ruhande kaba gakozwe mu migozi.

Abagore babiri n'umugabo umwe wambaye amadarubindi, afashe amashu. Umugabo yambaye nabote bari mu murima bishimiye umusaruro w'amashu, bigaragara yuko yeze cane.

Ibi ni ibihaza, ibihaza bikaba ari ibiribwa bikunzwe cyane. Cyane cyane abasaza n'abakecuru barabikunda. Kuko ni byiza, biraryoha. Aha rero biri ku mufuka, aho bari kubicuruza, abakiriya kugira ngo babihasange.

Umugore ufashe isuka witeye igitambaro arishimye cane, yishimiye umusaruro abona mu buhinzi bwe, kandi akaba agaragaza akanyamunezaneza kuko abayeho neza imibereho myiza.

Icatsi kikaba gisa neza, bikaba ari ibyatsi bisa. bigaragara yuko gitangaga amafaranga ku baturage bagihinze, kuko ni ingirakamaro. Iki catsii rero mu Rwanda tukaba tugihingaga.

Intama bita Madarina ziri mu rwuri, zikaba ziri kurisha ubwatsi, zikaba ari nyinshi, zikaba zifite ibyoya byinshi, kandi zikaba zimeze neza zibyibushye.

Ubwanikiro bw'ibigori bwinshi, burimo ibigori byinshi, aho banikira ibigori kugira ngo byume neza, bitazaribwa n'udukoko, bityo umusaruro ukiyongera.

Imyembe ihiye, imyembe ikaba iryoha, imyembe rero harimo ihiye cyane n'idahiye cyane, bigaragara yuko iri mu isoko abakiliriya barayihasanga bakayigura.

Umugore n'umugabo we bafashe amasuka , barahagaze , barimo kuganira, bari mu mirima rwagati aho bari kureba uko imirima yabo isa kandi imeze.

Ibigori byokeje biteretse bikaba ari bine bikaba biri ku makara bikaba biteretse ku matafari ndetse hari ibigori n'ibindi ku ruhande abakiriya bakaba babigura.

Avoka ni igiti kiryoga, izi voka zikaba ari nyinshi, zikaba ziri mu giti cy' avoka. Zikaba zikiri ntoya zikaba zizamara igihe kugira ngo bazisarure; abantu bazijane ku isoko kandi voka zivanagamo amavuta.

Amapera ari mu gitebo. Akaba ari ibitebo bibiri byegeranye, akaba asa neza, akaba ariho n'amazi bakaba bamazije kuyoza kugira ngo aveho imyanda, babashe kuyajana mu isoko.

Ibitoki biri ku igare byinshi umuntu ari kubisunika ari kubisunikira inyuma kuko ni byinshi. Bari kugenda mu muhanda w'igitaka ntabwo ari kaburimbo.

Umuhinzi w'inanasi yambaye itaburira ya kaki ndetse yambaye na ga z'umutuku. Akaba ari gusaarura inanasi ziri ku buso bunini cane. Inanasi ze zikaba zimeze neza.

Imashini twifashishaga mu kuhira zikaba zifite amapine, izi mashini rero zikaba zifuhirira amazi muri iyi mirima isa neza kandi bikaba bigaragara yuko zitangaga umusaruro mwiza.

Imyumbati ziteye ku buso bunini cane, zikiri mitoya zikaba zisa neza, kandi zikaba zizatanga umusaruro wizeye. Imyumbati ni kimwe mu gihingwa kiduha ubugari ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Iyi ikaba ari inkoko yateye amagi menshi cane mu kihuru. Aya magi akaba ari menshi, nyirayo ashobora kuba yarayabuze. Iyi nkoko rero ifite ibara ry'umukara kandi ifite n'umweruru.

Inkoko z'ubwoko butandukanye zirimo gutoragura ibyoku kurya hasi ibyatsi n'ibindi byinshi bitandukanye harimo ebyiri zisa n'indi y'umweru n'indi ifite ibara ry'umutuku.

Ikijumba, ibijumba bibiri biteretse ku mufuka w'umweru n'umuhondo. Ibijumba bisa nkaho byogeje babikuye mu murima, cyangwa se bikaba bitetse kuko bisa nkaho babitetse mu nkono.

Ikijumba kiriho itaka. Kikaba kiryohaga. Abantu bakaba bagishiraga mu ishafuriya kikagira amafu meza cane. Kikaba ari kimwe mu biryo biribwa cane mu Rwanda cane cane mu misozi.

Igitoki kirekire kikaba kiri mu murima, kikaba ari kinini cyane. Uyu murima akaba ari uwibitoki gusa, kandi bigaragara yuko uyu murima hari gucamo amazi.

Ibirayi biri mu isoko biri kudutanda kugira ngo ntibibore abakiriya bakaba babisangaho bakabigura. Ibi birayi ni umwimerere w'ibyo duhinga mu ntara yacu y'Amajaruguru bikaba bihera cane kandi bikaba bihenduka kurusha ahandi.

Abagore n'abakobwa bafite ibishimbo mu ntoki bakaba bafite n'ibitete bakaba bishimye cane bakaba bishimiye umusaruro wabo kandi bakaba bameze neza bari guseka cane.

Inkoko y'igisake yabyibushe cane. Ifite ibirokoroko, ikaba ifite n'umriuzo munini. Ikaba ibyibushe cane. Kandi ikaba imeje neja, ikaba ihagaze mu byatsi.

Aho ni abamama babiri bari guhinga. Abo bamama umwe afashe isuka, undi nawe arayifashe, ndetse umwe ahetse umwana yambaye n'igitenge cy'umuhondo mu mutwe. Bari guhinga ahantu hasa nka ho ari mu birunga.

Biragaragara neza ko uyu ari umusaruro cyane cyane w'imbuto. Hari mo karoti, pavuro, ndetse abantu babifashe ntago bigaragara neza, ariko biragaragara nkaho ari umusaruro.

Aabagore babiri bafashe masuka aba bagore bakaba bafashe n'udufuka bambaye ibitenge barishimye cyane, kuko bagiye mu kazi abobagore kandi bari mu misozi.

Imyembe ni igihingwa gikunze kwera mu Rwanda ku bwinshi, rero iyi mwembe ikaba bayiciye ikaba iri k'ubutaka, bari kuyishyira mu mifuka kugira ngo bayijane ku isoko.

Ibi ni ibijumba, ibijumba bikaba biri mu rwagati, aho ku mitabobo hari ibigori. Ibikori nta birera, ndetse n'ibiibijumba nta birera. Byose bikaba bisa neza.

Igifenesi kikiri gitoya umugabo we n'umugore bakaba bari kucireba bacitaho bakikorera isuku kugira ngo kizere ibintu binini kandi bimeze neza, bityo bagabona amafaranga atubutse.

Umugabo ufashe imyumbati ndetse n'umugore, barishimye kuko uyu mwumbati wareze ku buryo bwiza, kandi bakaba bari kwishimira umusaruro munini uri kubaha, kuko bazabona amafaranga menshi.

Uwo ni umuhinzi w'inyanya ariko biragaragara nk'aho azihinga muri grinihawuzi cyangwa se mu buryo bwa kijyambere. Uyu muntu rwose ni umuhinzi uhinga inyanya nziza z'ubwoko bwiza pe! Izi nyanya ni nziza ku buryo umuntu wese urubonye yarwishimira.

Umugore uri gusarura ibirayi akaba yishimiye umusaruro we ibirayi akabafashe mu maboko arimo guseka yambaye igitambaro cy'umutuku mu mutwe ndetse yambaye n'ingutiya n'agapira inyuma ye hari urutoki ndetse n'ibindi byatsi.

Ibirayi bidoze biri mu mifuka bikaba ari byinshi, aho bategereje imodoka ngo ije ibitware ibijane i Kigali ije kubigurisha. Mu ntara y'amajaruguru tukaba tubihingaga cane.

Abagabo n'abagore bari mu murima, bamanitse amaboko yabo y'iburyo hejuru. Ubu harihoho umuyobozi burigisha uburyo bafa neza ubuhinzi bwabo bw'amashu.

Uyu ni umudamu usa nkaho uri gusarura pavuro. Izi pavuro harimo iz'umuhondo, akaba yambaye ingofero n'ishati y'umweru. Izi pavuro zisa nkaho zihinze muri girinihawuzi.

Amashu, amashu akaba ari igihingwa gikungahaye mu myungugugu. Abantu bakaba bakirya nk’imboga, kandi amashu akaba yera cane muri iyi ntara yacu y’Amajaruguru, cane cane Musanze, Nyabihu, Burera na Gakenke.

Kikaba gikoreshwaga mu bintu byinshi bitandukanye gukora amaji ndetse n'ibindi bintu kikaba kikiri gitoya kandi kikaba kimeze neza gishagaguye.

Biragaragara ko ari abantu bari gucuruza ibirayi bya kinigi. Biri mu isoko sibyo kandi abari kubicuruza ni abadamu bane, bitaruye isoko ku buryo bugaragara ndetse haragaragara n'umunzani.

Aho biragaragara nk'aho ari ibihingwa ibihingwa by'ibigori , ibihingwa by'ibigori byera ahantu hagiye hatandukanye mu gace k'amajyaruguru ndetse mu ntara zose z'igihugu.

Amateke bita bwayisi，akaba aryohaga，kandi bakaba bayateraga mu mazi. Aga mateke kakaba ari amateke kuva na mbere baryaga， izi ndyo z'abazungu zitaraza.

Ibishimbo bimeze neza biteranye n'ibigori. Ibi bikaba byerekana y'uko ibiryo mu Rwanda bihari, kandi byeraga cane, bityo abaturage ntibicwe n'inzara kandi bagasagurira isoko.

Umusaza ufashe isuka, wambaye ikoti ry'umutuku n'ingofero, arimo ari kwishima avuye guhinga, inyuma ye hari ibishimbo ndetse n'urubingo bigaragara yuko anezerewe kandi yishimye.

Igihwagari ni igihingwa kivagamo amavuta kandi kikaba kibaga gisa neza, impande zaco hari ibishimbo ndetse n'ibitunguru bihinje ku ruhande, bikaba bisa neza byose.

Zikaba ari imbuto ziri mu ibase ikaba ari ibigori bakaba babikoresha mu gushesha ifu banywagamo igikoma cangwa se bakabitera bikeramo ibindi bigori

Ibi ni ibinyampeke bigaragara nkaho hari ari ubunyobwa cyangwa se ibihwagari, birambitse ku kantu k'umweru ye uyu muntu ashobora kuba yabyanitse nko ku izuba kugira ngo byume nubwo mu mafoto bitagaragara neza.

Ubunyobwa basaruye bukaba buri buki bukiri ku migozi yabyo, ubunyobwa bukaba bwera ahantu hashuha cane kandi ubunyobwa bukaba ari ubwisha ku mubiri w'umuntu.

Amajeri ateye mu buryo bwa kijambere ari ku migozi kugira ngo azatondagire kuri iyo migozi azere neza kandi azere mu buryo bwiza cane.

Ibi biragaragara nk'aho ari amasaka imvura yanyagiye maze agatangira kumera ibintu by'udusatsisatsi. Aya masaka asa n'umutuku, utwo dusatsi dusa n'umweru, ndetse utwo twavungaguritse hariho ibisa n'umukara.

Umuceri uri mu gasanduku ka kuma ukaba umeze neza cane. Ukaba uryoheye amaso ndetse ukaba unaryoshe mu bigaragara. Abaturage benshi barawukundaga kandi bakunze no kuwugaburira abanyeshuri.

Izi, zikaba ari soya zeze, zikaba zimeze neza cane. Izi soya rero, bakaba bazikoreshaga mu kuzirya, kandi bamwe bakazikoresha nk'ibishimbo, cangwa se bakazisheshamo ifu, ikavamo sosoma.

Ibi bikaba ari ibigori, ibigori bikaba byaratwawe n'umuyaga biragondama, imbere yaho hakaba hari ibyatsi byiza cane bakwahirira amatungo kugira ngo habeho neza.

Ibi tubyita ibigori. Tubyita ibigori bimanitse cyangwa se amahundo. Aya mahundo biragaragara nk'amanitse mu kigega. Ni ho bayamanitse kugira ngo arusheho kuma neza.

Umuceri umeze neza，ukaba watangiye kuzana impeke. Uyu muceri rero tukaba tuwuryaga mu Rwanda， nka kigori n'indi miceri myinshi. umuceri rero ukaba usa neza.

Imbuto ziri mu gifuka. Izi mbuto bakaba bagiye kuzigurisha abantu, kugira ngo baze kuzitera zizameremo izindi mbuto zimeze neza. Izi mbuto zikaba zisa neza kandi zikaba ari indobanure.

Imbuto bari gusuka ziri kuva mu gifuka. Izi mbuto zikaba ari indobanure kandi zikaba zimeze neza. Iyo bazikaranze abantu barazirya cyangwa se bamwe bakazikoresha mu kuzitera.

Ubunyobwa bukiri ku biti bwacyo bukaba ari bubisi bakaba bazabukuraho, bakabwawanika, mbere yuko babujana ku isoko ngo babucuruze, ubunyobwa bukaba ari ingirakamaro mu mubiri wa muntu.

Igihwagari kivagamo amavuta, iki gihwagari rero kikaba kimeje neza cane, inyuma yaco hari ibindi byatsi ndetse na senyenge zizitiye. Iki gihwagari rero kikaba kivagamo amavuta meza cane bita igihwagari.

Ibyo tubyita ibihwagari. Ibi bihwagari biteye ku butaka bwiza pe! Urabona ko bisa neza, banabikoreye isuku ku gihe. Bigiye bifite amababi:rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu .Buri gihwagari.

Abaturage bari gusarura umuceri. bari guhura; bari gukoresha ibibando kugira ngo bahure uwo muceri. Bari guhurisha ibibando, abandi bari guhurisha amaboko uwo muceri kandi ibisigazwa bakaba bari kubirunda hamwe.

Ibyo nubundi ni ibishyimbo bya sipake biraryoha cyane, ibi biraryoha cyane, usibye ko kugirango byere byerera amezi atandatu, uri kumva ko bitinda ugereranije n'akarara kagenda.

Ubu bunyobwa bakaba batarabutonora. Ubu bunyobwa bukaba buri mu bukoneshwa bukaba bubagamo ari bubiri bubiri. Ubu bunyobwa bukaba bujyohaga abanyarwanda bakaba babukoresha iyo babuseye nk'isu...

ubunyobwa butonoye ndetse n'ubunyobwa budatonoye ubutonoye buri mu gisorori kigozwe mu birahure ubunyobwa bukaba buryohaga kandi bakaba babukaranga cyangwa se bakabusya bukavamo ubunyobwa

Abagore batatu biteze ibitambaro ndetse banakenyeye ibitenge bafashe ubunyobwa. Abo, bari mu murima urimo amasaka n'ibigori ku ruhande ndetse n'ubwo bunyobwa bafashe, bakaba bishimiye umusaruro wabo.

Umugore ari mu murima w'ibigori afashe urwuho, rurimo ibishimbo kandi afashe n'umwana mu kuboko kw'iburyo, uyu mugore ariteze yambaye n'agapira yambaye n'igitenge.

Umugore wikoreye igitebo kirimo amahundo, w'umusiralamu, wambaye imyenda y'abayisilamu, akaba yikoreye igitebo ku mutwe.

Aha ndi kubonaho ibinyamisogwe by'ubwoko butatu. Hariho imiteja, ibitonore, imiteja n'ibitonore. Hariho ibisa n'umutuku n'ubururu ibindi bikajya gusa n'umuhondo ibindi n'umukara. Ni ibishyimbo muri make.

Ubu ni ubunyobwa, ubunyobwa bukiri mu bikonoshwaka, ubunyobwa bukaba bwerera hasi mu mizi bakaba bakunze kuguhinga ahantu hashyuha cane nko mu Mutara.

Ingano ni ibinyampeke byiza. Ifu yabyo ikaba ivamo imigati bitaga imbada, ndetse bakaba banayikoramo ifarini iyo yageje mu nganda. Uruhande rwayo hakaba hari ingano zidatonoye.

Ibyo ni ibinyampeke ni ibinyampeke bigaragara nkaho bavuye ku bisarura ariko bitaratunganywa neza ,ndetse abantu barabirya ku buryo buhagije bikabatera kumera neza.

Ibyumye, ibi bigori bikaba biri ku buso bunini cane. Ibigori bikaba bigaragara nk'aho byapfuye, kandi inyuma ya ho hakaba hari umusozi uteyemo ibindi bintu.

Umuntu aho ni abantu babiri bafashe itungo, niba ari inka, niba ari ihene bari kurivura uburwayi ryaba rifite, ubwo na niveterineri bafite imiti igiye itandukanye bitewe n'uburwayi bashobora gutera mu rushinge cyangwa se kuyasamura ariko biragaragara nkaho ari ijisho.

Ingurube zifite amatwi manini，zikaba zifite n'umunwa munini，zikaba ziri hejuru mu kiraro，zikaba wagirango ngo zigiye kuvamo， kandi izi ngurube zikaba zisa neza.

Abagabo babiri bafashe ingurube bakaba bagiye kuzikingiza. Aba bagabo kandi bambaye n'ingofero n'ibisurubeti bisa. Bakaba begereye n'ikigega ku ruhande rwabo.

Ishamba ry'inturusu, ifamu ikikijwe n'imiyenzi ndetse n'ikibaya kirimo ubwatsi bwinshi. Haragaragara n'inka, inka nziza zisa nk'aho ziri kurisha ubwatsi bwiza.

Ibagiro harimo ababazi, ababazi b'inyama bacuruza akanyama cyangwa se akabojeri. Akabojeri kararyoha cyane, ku bantu bakwigodera nyine ikiro cy'inyama.

Icyo ni ikimasa gifite amahembe manini cyane. Ikimasa cy'ikinyarwanda ariko gifite amahembe agisumba pe! Nubwo kiri ahantu mu bwatsi ariko kubera amahembe menshi manini cyane, cyaradaze.

Imishwi iri aho bayora kamwe kazamutse kakaba kabundamye ku byatsi. iyi mishwi ikaba isa neza kandi ikaba iri ahantu habugewe ho kororera.

Utu ni utwana tw' ihene tubiri e ihene yabyaye abana babiri basa n'ikijuju, ndetse haragaragara ibiti ibiti binini by' inganzamarumbo n'ihene n'utwana tw'ihene turi kurisha.

Izi ni inka, inka nyinshi tuzita ishyo, izi nka ikintu ziri gukora bari kuzigaburira ubwatsi, ubona ko inka zimeze neza, zishobora kuba ziherereye mu burasirazuba nka nyagatare cyangwa kayonza.

Inka iri mu kiraro ikaba ifite ibara ry'umweru n'umukara. Inka ikaba iri kurya ibyatsi. Iyi nka rero ikaba ari iya kijambere, ikaba itanga umukamo. Ikaba ikiri inyana kandi ifite n'iherena ku gutwi.

Amagi ari mu matureyi amatureyi y'umutuku n'icatsi . Aya magi akaba ari ay'umweru bigaragara y'uko aterwa n'inkoko z'inyarwanda.

Ibyo ni ibyana by'ingurube. kimwe, bibiri, bitatu, bine bitanu, bitandatu. Bikikijwe n'imbaho, ikikijwe n'imbaho bibiri biraryamye ibindi bine birahagaze, ibyo bana by'ingurube.

Ihene ziraziritse hari abantu bari kuzicunga batatu. Umwe yambaye fulari n'ikoti kandi n'undi afashe inkoni. Ziri mu rugo rw'umuntu, aho harimo iz'umweru n'izindi zibifite amabara atandukanye.

Abagabo bafite inka bafashe n'inkoni bigaragara yuko inka bavuye kuyigura, inka ifite ibara ry'umutuku bakunze kwiyita ikibamba, akaba ari abagabo batatu bari kumwe nayo umweka bari kwishima kandi bigaragara yuko bishimye.

Ingurube ifite ibyana byinshi birimo kuyonka. Ikaba yagaramye, ikaba irimo konkesha abana ba yo cyangwa se ibyana yabyaguye. Iyi ngurube rero ikaba imeze neza kandi ikaba ibyibubushye.

Ingurube zikaba ziri mu kiraro aho ziryamanyeho kugira ngo zishuhe . Zikaba zimeze neza bakaba bazitagaho mu buryo butandukanye . Ingurube rero zikaba zitanga umusaruro ari ukubwagura cyangwa se kuzitekamo akabenzi.

Aka ni akanyoni gahagaze ku giti, aka kanyoni gahagaze ku giti ni nyombya. Iyi tuyita inyoni yitwa inyombya ibyutsa abantu mu gitondo isakuza cyane, cyane pe! iyi nyoni iba ifite urusaku ni yo ikangura abantu mu gitondo.

Aka ni akanyoni gasa nkaho kari gukubita ku giti kugira ngo gakoremo icyari, kagizwe n'amabara umweru, umukara ,umutuku ndetse n'ubwoya bwiza bwera de kerade.

Inyoni ifite ibara ry'ikijuju ihagaze ku giti hejuru ifite umunwa usongoye utuma ibona umuhigo kandi ifite amaso y'umukara, ikaba ifite n'amaguru afite inzara ndende.

Inyoni ifite rirerire n'amaguru maremare nziza cane, ikaba iri ku mazi abakerarugendo bakaba bazisuraga, kugira ngo barebe ubwiza bwazo ndetse bakanazifotora.

Ingurube, ingurube ikaba isa nabi, ikaba iri mu ishyamba kugirango ibashe kubona ibyo kurya. Ifite ibyoya byinshi, ifite akarizo gatoya ndetse karanabyibushye kakaba ari gatoya.

Ibisimba bisa imwe ni gikuru akandi ni gatoya bifite amahembe maremare, kandi biri mu ishamba, abakerarugendo bazaga bari kubireba bakagenda bishimye.

Iyo ni inyoni . Ni inyoni ebyiri. Izi nyoni bisa nk'aho ziri gutoragura ibyo kurya. Ziri ahantu hameze nko mu gishanga. Hari ibisate hari n'amababi, ibiti. Inyoni isa n'ubururu.

Izi zikaba ari inyoni zifite amabara atandukanye kandi zikaba zirasa, imwe nini indi ni ntoya zikaba ari ibiri, zikaba zihagaze mu gishanga aho zitegereje umuhigo kandi izi nyoni zikunze kugaragara cane ahantu mu bishanga.

Inyoni iri gushaka ibyo kurya muri aka karabo kari imbere, iyi nyoni ikaba ifite amabara meza kandi inafite umunwa muremure utuma ikurura ubuki cangwa se ibyokurya biri muri uru rurabo.

Inyoni zisa zihagaraye izinyoni zikaba zisangwa mu bishanga, kandi abakerarugendo bakaba bazigana bazisura iziyoni zikaba zisa neza, kandi zifite utuguru ture ture n'utuzozi tureture.

Inyamaswa ifite uduhembe tureture tugondamye, ndetse n'utuguru tureture bigaragara yuko iri mu ishamba, kandi ikaba ihagaze. Iyi nyamaswa rero ikaba isa n'ituje cane.

Umwanana ufite ijosi rirerire, ukagira n'urunwa runini, ufite ibara ry'umweru n'umukara, uhagaze ahantu haba hari amazi make yo mu gishanga, ukaba utegereje ibyo kurya, cyangwa se amahirwe wafata kugirango ngo ubashe kubaho.

Iyi iyi ni inyoni isa nk'aho iba mu ishyamba kuko iragaragara neza cyane. Izi nyoni zishobora gukurura ba mukerarugendo, urabonako iri mu duti tw'indabo ubwo ni ho ikunda kuba wasanga inagiramo icyari.

Iyi ni inyoni isa nk'aho iba ahantu hegereye amazi cane. Cane cane nko ku ngezi, ku ruzi cangwa se mu nyanja. Kuko itungwa n'amafi. Ifite ibara ry'umweru n'umunwa muremure. Ndetse n'amaguru maremare cane n'akantu gasongosoye inyuma.

Ingagi iri kumwe n'icana cayo kikaba kiyiryamye mu mabere abifite ibyoya by'umukara kandi bikaba biryamye mbibona mu birunga nko mu Kinigi ndetse no mu birunga bigari.

Inyoni ihagaze ku duti iyo nyoni ikaba ifite ikibara c'umukara ikaba ku uruhande rwayo hari utwatsi kandi inyoni ikaba ifite umunwa muremure n'utuguru tureture ikaba isa neza

Inyoni ibaga mu ishamba ikaba yateye igi, iyi nyoni ikaba ifite ibirenge bibyataraye kandi ikaba ibyibushe hejuru, bigaragara yuko ituje cane hari ico itegereje.

Inyoni icyari icyari gifite ibyatsi byinshi kandi byumye, kandi hari ishami niho iyi nyoni ihagaze isa nkaho igiye kwinjira mucyari cyayo.

Imbata ihagaze muri pasiparume, ikaba yagonze ijosi, ikaba ibyibushye, ikaba ifite amabara menshi, ikaba isa neza cyane.

Iki bakita igisiga, igisiga cyangwa se agaca biri ahantu mu biti ni ibisiga ni uduca tubiri , tukaba tureba kure cyane ni igisiga gikaze.

Imbeba ikaba ifite ubwanwa burebure. Ikaba ifite n'amatwi manini. Ikaba irya imyaka igihe bagiteretse mu nzu. Kandi ikaba inacukura inzu mu gihe co kwihisha cangwa se ishaka uburiri bwo kuryamaho.